Igihe umurwayi twabonye ko akomeje kuremba, tujye tumuha ubutabazi bw'ibanze tumujyane muri ambilasi. Babe bamumushyikiriza ibitaro bikomeye, birebe uburwayi bwe ndetse bimukurikirane.

Buri hantu hakorerwa ubutabazi bw'ibanze ndetse havurirwa abarwayi hagomba kuba ambilansi, kubera y'uko iyo umurwayi arembye cyane ariyo bamujyanamo kugira ngo bamwihutane ku bindi bitaro bikomeye babe bakurikirana ubuzima bwe.

Igihe umuntu twamuhaye ubutabazi bw'ibanze tukamugeza kwa muganga, muganga ibindi niwe ubyikurikiranira akaba yamusuzuma akabona icyo arwaye, bityo akamukurikirana neza akanamuha imiti imuvura.

Ubundi Leta yashyize imbaraga mu kuba yagura izi modoka zikora ubutabazi bw'ibanze ndetse yanzura ko zoherezwa kwa muganga, zikajya zifasha abarwayi barembye kubashyikiriza mu bitaro byisumbuyeho.

Mu gihe cya koronavirusi, nibwo hagaragaye kwirinda gukomeye, harimo nko kuba abaganga bajya kuvura umurwayi bipfutse amaso ndetse n'imibiri yabo, bakambara n'uturindantoki ku buryo ahantu hose utabaga wabona umubiri wabo.

Kwa muganga haba hari ibitanda byinshi byagenewe abarwayi ariko usanga umurwaza we, ashaka uburyo ari buryame kubera ko badashobora kumwemerera kuryama ku bitanda by'abarwayi.

Ibikoresho bikoresha umuriro w'amashanyarazi si byiza ko tubyegera tukabicokoza, kubera yuko bishobora guteza impanuka ugasanga dutwitse amazu menshi ndetse n'ubuzima bwacu bubigendeyemo.

Ni byiza ko umuntu agira agakoresho kabika udukoresho twe twose neza aho kugira ngo abyandagaze niwinjira mu nzu usange ikimwe aha ikindi aha ibyo biba bitagaragara neza.

Ni byiza kwicara hamwe tukajya inama ku kintu runaka dushaka gukoraho, kubera yuko iyo dukoze ibintu tubihubukiye ntabwo bigenda neza. Rero iyo duhuje ibitekerezo nibwo dufata umwanzuro ukwiriye kandi ukagerwaho.

Dushishikarizwa gutanga amaraso kuko bigirira umumaro abatayafite, cyane cyane nk'umurwayi urwariye kwa muganga yakoze impanuka, aba akeneye amaraso kugira ngo umubiri we wongere kugira amaraso yatakaje.

Nyuma y'uko icyorezo cya Mabaga gikomeje kuzengerezareza isi, u Rwanda rwaje kubona ubutabazi bw'ibanze ndetse n'igisubizo cyiza mu kurwanya iki cyorezo none ubu ngubu cyaracyendereye.

Iyo umurwayi umugejeje kwa muganga usanga hari ibitanda byamugenewe igihe babonye arembye bakaba babimujyanaho bakamukurikirana ari aho ngaho maze yamara koroherwa cyangwa gukira agasezererwa.

Abarwayi bagomba kurazwa ahantu heza hizewe, kugira ngo umutekano wabo ugerweho ndetse n'abaganga babone uko babakurikirana bari ahantu hamwe kugira ngo babe babasha kubavura.

Wasangaga mu gihe cya corona virusi abantu baratinyaga kujya kwikingiza inkingo, ariko byashyizwemo imbaraga na leta bituma abantu bose babyumva ndetse bemera kwikingiza izo nkingo zose.

Muganga nakubwira ko agomba kugutera urushinge ntukajye umwangira ngo ni uko urutinya kubera ko akora igikwiriye kandi icyo gikwiriye akagikora mu gihe cya nyacyo.

Igihe cyose ugiriwe amahirwe cyangwa icyizere cyo kuganiriza abantu, ujye ubanza utegure neza ibyo uribuze kubaganiriza kuko hari abantu bagera imbere bitewe n'ubwoba bafite ugasanga bavuze ibintu batari bateguye.

Tugomba kujya tunyuzamo tugakorera isuku aho dutuye, cyane cyane hoteli kuba zakorerwa amasuku zikongera zigasa neza, zigasigwa amarange ni bimwe mu bintu bituma hahora hasa neza.

Kuba hari ambiransi zishobora kuduha ubutabazi bw'ibanze, ni byiza kuko umuntu iyo arembye ntabwo dushobora kumwiterura ngo tumujyane, nyamara iyo modoka yoroshya ingendo.

Ibitaro by'akarere ka Nyagatare nabyo byafashe iya mbere mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, ndetse bikabigisha n'urubyiruko kugira ngo rwirinde ibyoyo bibi ntibizongere gusubira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Iyo kwa muganga, bavura amaso bagomba gushushanya ku gikuta amaso cyangwa ijisho runaka bigaragara ibice byaryo maze wahageraho ugahita ubimenya ari nta gushidikanya.

Igihe abaganga bakoreye hamwe bagafatanya byoroshya akazi bigatuma igihe bari gukoresha kinini kigabanuka ibyo bari gukora bakabikorera mu gihe gitoya gishoboka.

Iyo ugeze kwa muganga uhasanga ibitanda bigenewe abarwayi ndetse hakaba ari n'inzitiramibu zo bamanura igihe umurwayi aryamye kugira ngo bamurinde indwara zirimo malariya kuko yazahaje isi.

Ibikoresho byo kwa muganga usanga bisa ukwabyo ntabwo biba bisa kimwe n'ibyo mu ngo zacu kubera ko mu ngo zacu nta bitaro tugira ngo tube twavura abarwayi aho niho bitandukanira n'ibindi.

Mbere y'uko muganga yandikira imiti umurwayi agomba kubanza akamenya ibimenyetso byose by'umurwayi afite kugira ngo amwandikire imiti yabanje no kumusuzuma.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo mudasobwa, byakunze kugaragara ko binanira abantu benshi kubikoresha kubera ko nta bumenyi baba bafite kuri byo bityo byaba byiza mu burezi hagiye higishwa iri koranabuhanga abantu bakarimenya.

Ntacyabuza abantu gufata amafoto y'urwibutso, igihe ibyo bagombaga gukora babikoze neza, bagasabana, bakicara hamwe ndetse bakareba n'ibitagenze neza, ubutaha bakazabikosora.

Igihe umuganga agiye gutera umurwayi serumu, agomba kwita kuri buri kimwe niba kimeze neza bityo akaba yayimutera kuko nayo ifasha umurwayi kumutunga.

Igihe twiyemeje kuza kwa muganga kumva inama z'abaganga n'amabwiriza, tujye twitonda tubyumve neza kuko iyo utumvise ikintu neza ntanubwo ugikora neza ahubwo cyakugiraho ingaruka.

Niba abarwayi bahawe igitanda bagomba kuza gusurwa n'ababarwaje kugira ngo bamenye uko baramutse ndetse n'uko biriwe, n'abo babe babasha kumenya niba umurwayi wabo yoroherwa.

Nugirirwa amahirwe ukaba umuganga, ujjye ukorana imbaraga zawe zose kandi ukorane umuhate, kugira ngo akazi kawe ujye ugakora neza kandi iyo serivisi uyitangire ku gihe.

Iyo ugeze muri raburatwri, uhasanga ibikoresho bijye bitandukanye keretse abize ubugenge n'ubutabire nobobabasha kubikoresha neza, kuko baba barabyizemo.

Mbere y'uko abaganga bajya kuvura ni byiza ko bicara hamwe bakagira ibyo bajyaho inama mbere y'uko bajya kubikora bityo hari benshi bifasha kugira ngo babe bakora ibintu basobanukiwe neza.

Ni byiza ko ibigo by'amashuri biba bifite za mudasobwa ntoya, bikigisha abana bityo bagakura bazi ikoranabuhanga ndetse no kurikoresha kugira bizabagirire akamaro.

Ababyeyi bagomba gufata iya mbere, mu kujya kumva amabwiriza bahabwa na muganga kubera ko burya ubuzima bw'umwana, butangira akiri mu nda bityo iyo babukurikiranye umwana, abasha kuvuka neza kandi ari muzima.

Hagomba kubaho icyumweru cyahariwe ubuzima bw'umubyeyi bityo bakaganirizwa uburyo bwiza burimo nko kuringaniza imbyaro, ndetse no kwita ku bo barera kugira ngo bagire ubuzima bwiza nabo.

Umuganga uvura abana, aba afite ubwitonzi bukomeye kuko umwana mutoya aba yoroshye, ushobora kuba watakaza ubuzima bwe utabyitondeye.

Iyo umuntu aturi imbere, arimo aratubwira imbwirwaruhame ye, ni byiza ko tumutega amatwi kandi twitonze kuko nawe byakubabaza kujya imbere ubwira abantu warangiza ukabona batakwitayeho barimo barisakuriza.

Ni byiza ko muganga abanza gusobanurira umurwayi ikibazo yasanze afite cyangwa akamusobanurira uburyo azakoresha imiti, kugira ngo ntazayinyuranye n'amategeko ikaba yamumerera nabi.

Ni kenshi dushishikarizwa gahunda ya baho neza, no kwita ku buzima bwo mu mutwe. Igihe cyose tubonye umuntu afite imyitwarire ishobora guterwa n'ihungabana, tugomba kumugeza ahabugenewe bakamwitaho, bakareba ikibazo afite.

Igihe umurwayi yagize ikibazo cyihariye ndetse gikomeye tugomba kumuha ubutabazi bw'ibanze akaba yatwarwa mu modoka zabugenewe maze zikamujyana kwa muganga bagakurikirana ubuzima bwe uko buhagaze.

Ibikorwa bihuza abantu benshi burya biba bifite agaciro gakomeye; kubera ko iyo ushatse gutambutsa ubutumwa bwawe butambuka mu buryo bworoshye kuko abantu baba baje ari benshi kandi bugasakara vuba.

Buri karere kagomba kuba gafite ikigo cy'urubyiruko, kugira ngo aho bajye babonera serivisi zigendanye n'urubyiruko babe bagirwa inama, ndetse babahabwe n'amahugurwa ku bintu bigiye bitandukanye birimo nk'ibyo kwiteza imbere.

Ni byiza ko muri farumasi hagomba kuba harimo imiti y'ubwoko bwose ku buryo umurwayi umuti wose yaza akeneye ahita awubona mu buryo bumworoheye atarinze gukora urugendo rurerure nko kujya kwa muganga.

Imikasi yabugenewe ikoreshwa kwa muganga ntabwo ari iyo gukoreshwa na buri wese cyane cyane nk'umwana akaba yagerayo akayiba bityo afite ikindi kintu azayikoresha si byiza tugomba gucunga abana bacu ntibagire ikintu bangiza kwa muganga.

Ubundi farumasi nziza igomba kuba irimo imiti y'ubwoko bwose, kugira ngo umuntu uje kuyigura ayibone. Ariko na none biba ari byiza ko niba ari imiti ivura abantu igomba kuba ukwayo, ndetse n'imiti y'amatungo ikaba iri ukwayo.

Igihe ukora muri farumasi biba byiza kuba ufite nkagarafeza ndetse ikaramu n'ikayi ntubibure. Ukaba ufite n'uburyo bwiza bwo bakwishyuriraho bakoresheje ikoranabuhanga.

Ubundi byakabaye byiza ko igihe umuntu yumva arwaye agomba kujya kuri farumasi bakamuha imiti, niyo mpamvu umuntu ukora muri farumasi agomba kureba neza niba imiti ubwoko bwose ayifite.

Niba ucuruza farumasi ukaba ufite imiti igi itandukanye, ni byiza ko ubyandikaho kugira ngo umuntu wese uhageze amenye ibikorerwamo, kandi ukaba wizeye neza ko buri muti wose washobora kuwusangamo.

Umuntu ukora muri farumasi agomba kuba afite mudasobwa ye kugira ngo agumye yandikamo ibyasohotse ndetse n'ibyinjiye, maze amenye uburyo yunguka n'uburyo ahomba.

Umuhanda mwiza na wo ni igikorwa remezo gishobora gukurura abantu kuba batembera muri ubwo buce kubera y'uko iyo babonye imihanda ari ibitaka usanga akenshi batayiyoboka.

Farumasi nziza niyo iba irimo imiti y'ubwoko bwose ku buryo ukiyinjiramo ubona koko ko yuzuye imiti, bityo umuti ushaka wose wawubaza kandi ukawubona.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga si buri wese ubikoramo kuko agomba kuba afite ubumenyi kuri byo akabikoresha neza icyo bigomba gukora kandi iyo utabikoresheje neza biteza ibindi bibazo kuko bigira ibyiza n'ibibi.

Farumasi zigomba kuba zaregerejwe abaturage bose kugira ngo imiti runaka umuntu akeneye abe yabasha kuyibonera bitamugoye cyangwa bimusabe gukora ingendo ndende, ahubwo akayibona mu buryo bumworoheye cyane.

Si ahantu hamwe cyangwa habiri, iyo ugeze muri Nyagatare ubona ivuriro, ahubwo byamaze kuba ahantu henshi kugira ngo byegerezwe abaturage buri wese ukeneye serivise z'ubuvuzi azibone ku gihe.

Igihe ikipe ikinnye igatsindira igihembo runaka, bagomba kuyiha igipapuro kigaragaza ko ihawe ayo mafaranga, bityo bakazakijyana muri banki bakaba baherezwa ibyo bihembo byabo.

Si byiza ko waceceka igihe ubonye hari ukorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, nyamara wagafasha iya mbere kuba watanga ayo makuru, bityo uwo muntu bakamukurikirana akaba yahanwa bikurikije amategeko.

Gukorera mu matsinda cyane cyaneyan hari gukorwa ubushakashatsi runaka biba byiza kuko mumenyeramo ibintu byinshi mutari muzi bityo mugakora ibintu muzi aho kugira ngo mubyice nkana kandi mufite ubwo bushobozi.

Buri wese agomba gufata iya mbere mu bijyanye no kubahiriza gahunda z'inkingo zose zigenda zitangwa n'igihugu cyacu, kubera ko burya baba baraturebeye bakabona ko ibyo bintu bikwiriye.

Rubyiruko tumenye ko ari twe ejo heza hazaza h'uru rwanda twirinda virusi itera sida tunipimishaka kenshi gashoboka kugira ngo u Rwanda twifuza tuzarugereho kandi igihe bitunaniye tujye twibuka gukoresha agakingirizo.

Buri nama burya igira imyanzuro ifatirwamo, niba ari inama y'ubuhinzi, imyanzuro yabo igomba kuba yerekeranye n'ubuhinzi ndetse yaba ari uburezi nabyo bikagenda uko nguko ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ni byiza ko buri muntu wese amenya gahunda ya ndi uw'agaciro, ndashoboye bityo akumva ko icyo cyizere na we agifite ndetse nta kintu ashobora kudashobora bityo bigatuma akorana imbaraga ze zose kugira ngo agere ku byo ashaka.

Urubyiruko rugomba gufata iya mbere mu bikorwa bya Leta. Birimo nko kuba bahugura urubyiruko rugenzi rwabo kuko bakora amahugurwa bakaba bahabwa n'imyambaro igaragaza ko amahugurwa bayakoze.

Urubyiruko igihe tuvuye mu mahugurwa, tugomba gufata iya mbere gushyira mu bikorwa ibyo twumvise, ndetse tukanabisangiza mu baturage nabo bagakurikiza izo ngamba kuko ari twe mbaraga z'igihugu kandi zubaka vuba.

Bakundaga gutera imiti gakondo mu mirima yabo ndetse bakaba bayikoresha bivura bo ubwabo aho kugira ngo ubasange bakora ingendo nini bajya kwa muganga kwivurizayo.

Kera wasangaga umuntu ahinga umuti hanyuma akawufata akawushyira mu isekuru akaba yawusekura, maze akaba yakoramo umuti wo kwivura igihe yarwaye.

Umuturage wa kera yabaga azi guhinga imiti gakondo, bityo yamara kuyisarura akayikoramo umuti kugira ngo awuhe abana be igihe babaga barwaye, ndetse n'undi uwo ari we wese warwara.

Ni byiza kubungabunga imiti gakondo kubera ko bayikuramo indi miti binyuze mu nganda, ikaba yakoreshwa kwa muganga ndetse ikavura n'abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye.

Imiti iyo ishyizwe mu macupa ikabikwa neza ihorana ubuziranenge bwayo kubera ko nta cyayangiriza ndetse nta nubwo ishobora kuba yamenywa n'abana kuko ibitse ahantu kure kandi hizewe.

Umuntu ufite imiti gakondo agomba kuyibika mu ducupa twabugenewe igihe yatunganijwe, ubundi akayibika ahantu heza kugira ngo ubuziranenge bwayo muyibugumane.

Ikigo cya gira ubuzima gikunze kwitabirwa n'abantu benshi bagahugurwa bakagirwa inama y'uburyo bagira ubuzima bwiza, ariko iyo ubonye amahirwe nk'aya ntuyabyaze umusaruro ibikurikiyeho bikubera bibi.

Serivisi z'ubuvuzi bw'amatungo zigomba gutangwa n'uwabyigiye kandi akaba ari inzobere muri byo kuko aba azi ubwoko bugiye butandukanye bw'imiti ishobora kuvura amatungo kandi agakira.

Ubundi ikigo gishishikariza abantu kugira ubuzima bwiza ntabwo cyabibashishikariza nacyo kidafite isuku kuko isuku niyo ya mbere ituma abantu babaho neza.

Gutanga inkingo ndetse no kujyana abana bacu kuzihabwa, ni ingenzi kuko bituma imikurire yabo yitabwaho kandi umwana ahawe inkingo akura neza mu mitekerereze n'ahandi ku mubiri.

Iyo umurwayi ageze kwa muganga, muganga amuzirikaho ikintu kimeze nk'umwenda, bityo akamupima cyane cyane ibyo apima, abareba niba nta muvuduko w'amaraso afite kugira ngo amenye ubundi buryo ari bumukurikiranemo.

Mu gihe umuntu afite umushinga yatangije agomba no kuba afite izina ryawo bityo akaryandikaho kugira ngo uje wese, amenye ukorera uwo mushinga aho uwo ari we.

Igihe umurwayi bibaye ngombwa ko bari bumusuzume ibizamini, bagomba kumutera urushinge ku rutoki kugira ngo bafate amaraso baze kuyapima barebe indwara arwaye.

Abaganga bagomba kuba bambaye udupfukamunwa, uturindantoki ndetse n'ibindi bikoresho bikenerwa kugira ngo bite kuri serivisi zikorwa mu bitaro, bityo birinde ibyorezo bya hato na hato.

Gahunda zose za Leta zigomba kubahirizwa kandi tukihutira gufata amabwiriza duhabwa, cyane cyane tugana ikigo Girubuzima kugira ngo tubwirwe neza uburyo twakwita ku buzima bwacu bukagumya kumera neza.

Iyo witaye ku mubiri ukawuha icyo ukeneye harimo nko kuba wawuha indyo nziza ndetse ukawuvuriza ku gihe ntushobora guhura n'ibibazo biterwa no kugira ubuzima bubi.

Umurwayi agomba kwegera muganga, akamubwira ibimenyetso by'uko yafashwe, bityo umuganga akabona icyo aheraho amupima, kugira ngo amuhe imiti ivura iyo ndwara ye.

Ni byiza ko iyo habaye igikorwa runaka, abantu babyishimiye, bagomba no gufata amafoto, kugira ngo kizabe urwibutso rwiza kigaragaza ko ibyo bakoze babikoze neza.

Buri muturage wese ashishikarizwa gukingiza umwana we inkingo zose kuva akivuka kugeza agikuze, bityo ubuzima bwe akabukurikirana muri ubwo buryo kandi umwana agakura neza.

Ni byiza ko igihe umurwayi wacu arwaye, tubanza kumwihutana ku kigo nderabuzima kitwegereye. Mbere y'uko bamujyana kwa muganga bakabanza bakamupima, basanga bikomeye akaba aribwo ajyanwayo.